Icyumba kimanitsemo amashusho kirimo agatanda gato k'abana, akabati k'ibiti. Akabati gateretseho ibitabo, hose hashashe igitenge.

Abantu batatu, babiri b'ababikira n'umwe w'umugabo bahagaze imbere y'imodoka bari guhererekanya igifunguzo kinini nk'ikimenyetso, igifunguzo cy'imodoka nk'ikimenyetso cyo guhererekanya imodoka.

Ni ishusho iri mu mabara y'umuhondo n'umweru yanditseho amagambo yerekana ubwishyu isobanura wenda uko umuntu yishyura.

Intoki zifashe inote z'amafaranga ya Gana, ziriho amafoto izo note, ni inote za tanu.

Icyapa cyerekana uko kuvunja bihagaze ukura mu mu manyamahanga uyashyira mu Rwanda manyarwanda cg uyakura mu manyarwanda uyaashyira mu manyamahanga.

Inote z'amadolari imbere yazo hariho imwe iy'abakoreya amafaranga yaho.

Inyubako y'amatafari ahiye ifite ubusitani imbere yayo, ifite indi byegeraranye Ikiri kubakwa indi ihinguka inyuma yayo nayo igeretse.

Inyubako y'ubwishingizi ifite imiryango y'ibirahure, yanditseho amagambo ya serivisi zitanga na nimero za telefone.

Hateretse ikarito ya terefone ku meza y'ikirahure n'agapapuro kerekana uburyo ushobora kwishyura ukoresheje kode, bigaragara ko ari mu nzu y'ubucuruzi.